Akantu gasa neza, gafite amabara abiri, meza cyane gafungishije imashini gakozwe muri dizayini y'inanasi, karasa neza wagira ngo batwaramo ibintu runara.

Icyapa kiriho ibikoresho bitandukanye cyangwa se ibyigwa bitandukanye by'abanyeshuri ba pirimeri harimo amakompa, harimo ibimenyetso byo guteranya, gukuba no gukuramo no kugabanya n'ibindi byinshi bigisha muri pirimeri.

Hari inyubako yigishirizwamo abana hakorerwaho ibikorwa bitandukanye byo kwigisha abana batoya cyangwa se purayimari edikasheni, hari ibyapa byanditseho imibare n'inyuguti, harasa neza.

Ibikorwa bya leta nk'inyubako y'amashuri, harimo imiryango myinshi itandukanye n'amadirishya, hari jaride, hari ibimera, hari indabo, hari umuhanda, harimo ahantu henshi bigira.

Hari instirUment cyangwa se igikoresho bakoresha bari kwiga ibintu runaka, harimo compa, igoma, crayo, amarati y'ubwoko butandukanye, iyi bayita boate matimatical bayikoresha bari kwiga imibare.

Igikorwa cy'abanyeshuri bo muri segonderi bambaye iniforume bose baratebeje bahagaze ahantu hamwe basizemo metero, bafite icyapa cyanditseho ibintu ntari kubona neza barasa neza hari ibiti, hari jaride zirimo indabo ndetse na pasiparume.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe, benshi bambaye ti sheti z'ikigo, bari gufata inyigisho runaka, hari abapolisi, abarezi, hari ibendera ry'u Rwanda, bari kwigishwa ku kintu runaka.

Ikigo cy'amashuri kirimo abantu bari kugenda b'abayobozi bambaye imyenda y'akazi iri mu mabara atandukanye umwe muri bo afite ajenda cyangwa se ikayi mu ntoki bose bari kugenda berekeza ahantu hamwe.

Abanyeshuri biga muri segonderi bari mu gikorwa cyo kwibuka abantu runaka bitabye imana, bari kumwe n'abarezi babo bambaye iniforume harimo ishati y'umweru n'ipantaro cyangwa se ijipo by'igitaka.

Abanyeshuri basoje kaminuza bari guserebura ikirori barasoje bari guserebura ni benshi barishimye, bambaye imyenda y'ibara rimwe hari inyubako zitandukanye haradekoye.

Umuryango mugari mwiza wo mu nyubako ya University cyangwa se Nyagatare Campus. Hari icyapa cyanditseho ICT Lab. Hano ni icyumba k'ikoranabuhanga.